Etajeri ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo ,insinga utubogisi turimo ibindi bikoresho n'ibindi. Iki kintu kidufasha kwakira abanyeshuri baje kuhakorera ,ku buryo bituma babona ibikoresho byabo neza, kandi bagakorera hejuru bisanzuye.

Jaride ni nziza cyane ahantu hose ziherereye zituma abantu bahahumekera, bakicaramo bagafatiramo akayaga. Ugasanga ni ibintu bishimishije cyane iyo ziri imbere y'amazu yubatse neza kandi atondekanye biba ari ibintu bishimishije.

Ishuri rikorerwamo ikoranabuhanga, ni ishuri riba risa neza rikeye cyane, rifite n'uruzitiro kugira ngo ushobora gushaka kujya kwiba mashine abure uko ageramo, kuko igomba kuba ifite n'amakamera menshi atangira abajura, kugira ngo ushaka kwinjira bamufate.

Abanyeshuri bari mu ikoranabuhanga bari kwiga ibijyanye no gukanika imodoka. Gukanika imodoka ni umwuga ugezweho neza cyane, ku buryo umwana wabifashe akabimenya, bituma yiteza imbere mu buryo bwose, haba imikorere n'imibereho myiza.

Ubudozi ni ingirakamaro kanini cyane mu gihugu cyacu, aho dusigaye dufite imyenda ikorerwa mu Rwanda, tukadodeshamo imyenda y'amoko yose dushaka kwambara, abadozi rero bafite akamaro kanini kandi bari kwiteze imbere vuba vuba, kubera kudoda bisigaye biri imbere cyane.

Kwiga n'ingirakamaro bituma twunguka ubumenyi butandukanye tukiteza imbere dukoresheje ubumenyi twahawe turi mu ishuri. Nibyiza rero gukurikira mwarimu ubumenyi ariguha abanyeshuri kugira ngo biteze imbere no kunguka ubumenyi bwejo hazaza.

Abakerarugendo babukereye basuye ibirunga bashimishijwe cyane no kumenya ibirunga uko bibayeho n'uko biteye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kubona abakobwa bambaye amapantaro n'amabote n'inkoni zabo bari gutembera mu misozi.

Kera ni gakeya wabonaga umukobwa uri gukurikirana ibintu bijyanye n'amashanyarazi. Ariko uyu munsi wa none, umukobwa na we asigaye akurikirana ibintu bijyanye n'amashanyarazi akayakora kandi bikagenda neza, ugasanga n'amayetaje bari kuyesitara nta kibazo.

Abanyeshuri bameze neza bishimye, abahungu n'abakobwa. Kwiga ni byiza, ni ingirakamaro, kera umuntu wabaga yarize, yabaga ariwe ufite imibereho myiza. Ariko uyu munsi none, buri wese afite uburenganzira bwo kwiga.

Abanyeshuiri bari kwiga ibijanye n'ubwubatsi, bambaye imyenda yabo y'impuzankano, barimo barashushanya ibishushanyo bibafasha gukurikirana amasomo yabo, aho abandi inyuma bari ku kibaho kugira ngo biyibutse.

Abakobwa batatu beza cane bambaye imyenda y'akazi ubururu n'icatsi. Bari kumwe n'umusore wambaye ubururu barishimye cane, bari gukora icuma bagenda bagishiramo amavuta.

Ikoranabuhanga ni umwuga mwiza cyane. Ufasha Abanyarwanda kwiteza imbere mu buryo bumwe n'ubundi, bigatuma buri wese agerageza gukirigita imashini, kugira ngo arebe ko yakwiteza imbere mu buryo bwiza kandi yisanzuye.

Abari n'abategarugori bishyize hamwe kandi bishimye cyane bakoze itsinda rimwe, ni byiza cyane ko abari n'abategarugori bagomba kwishyira hamwe bagapanga ibyo bagomba gukora kandi bihuriye hamwe bibaha n' umusaruro uri hamwe, twishimire gukorera hamwe kuko bizaduteza imbere.

Salo igirira abadamu akamaro kanini cyane, ibafasha gutunganya imisatsi yabo ndetse bakabona uko basokoza bagiye mu bukwe, biba ari ibintu bimeze neza cyane, iyo ugiye ubona ukeye kandi umeze neza ntawagucishamo ijisho, ngo umusatsi wawe umeze nabi wa wukoreshereje muri salo.

Abakozi batatu bo muri hoteli, abadamu babiri n'umugabo umwe, bari kwarura ibiryo bitandukanye ibirayi, ibishimbo, umuceri, amashu, imbuto n'ibindi.